Ubona umugabo uri kuri uhagaze wambaye kasike na jire akaba ashobora kuba atwara ibintu handitseho ngo kashi.

Ndabona inzu imbere yanjye inyubako ndende itari ndende cyane, imbere yayo ifite ahantu hagari hameze nk'ahari parikingi uko kose iragurishwa cyangwa ikaba ikodeshwa.